Bari gufuhirira bakoresheje imashini aho imashini iri gufuhirira umurima wose, bikaba byorosha gufuhirira kandi bikaba bituma igihugu gitera imbere cane.

Imifuka y'ifumbire iri mu bwoko bw'umweru, iteretse hasi aha abahinzi akaba ari ho barayishakira kugira ngo baje kuyiteresha ibirayi, cangwa se n'ibindi bindi bitandukanye.

Imiti yica udukoko iri mu macupa maremare. Ikaba iteretse ku meza kandi iyi miti ikaba isa. Bigaragara yuko ikozwe mu buhanga.

Umugabo wambaye ga ari gusuka umuti kuri iki gihingwa kugira ngo arebe uko bizagenda nyuma yo kugisukaho uyu muti kugira gikure neza.

Ibiryo biriho ifi ndetse ndetse n'ibitunguru n'ibindi byatsi bibisi. Bikaba bitetse bihiye kandi bikaba biyjoshe cane.

Urushundura ruri mu mazi aho bari kugira ngo barobe amafi aze gufatwamo, ibi bakunze kubikora ni joro kuko amafi arazamuka hejuru akurikiye urumuri.

Mu mazi hateretsemo utuntu twinshi. Utuntu twinshi bakaba badukoresha mu kuroba amaji amafi mu buryo bwa kijambere, hirya hari ubwato.

Amafi ari mu munyu, kugira ngo uyu munyu uzatume aya mafi amara igihe kinini atangiritse. Aya mafi akaba ari abiri.

Ihene iziritse ikaba iziritse mu murima ikaba irimo umurunga. Iyi hene ikaba ifite ibara ry'umukara kandi ikaba isa neza, ikaba ifite n'icebe bigaragara yuko iri konsa.

Ibirayi bikaba bikiri bitoya, bikaba bigeze ibagarwa. Hirya yayo hari ibiti ndetse n'urutoke. Kandi hari inzu y'umuturage. Ibirayi rero bikaba byeraga cane mu majaruguru.

Umurima urimo ibigorigori bakaba babishashe hasi kugira ngo bizavemo ifumbire. Nyuma y'uyu murima hari ishamba rirerire n'ibindi biti bigikura bitoya.

Indimu iteye ikaba ikiri ntoya, ikaba iteye mu gipangu. Icyo gipangu gifite fonasiyo yubakishije amabuye, ndetse n'igipangu kikaba cubakishije amatafari.

Abantu bari guhinga bari guhinga urwuburo, bakaba bameze neza kuko bari kwitegura igihe c'ihingwa ngo bashiremo imyaka yabo.

Umukecuru ufashe telefone, yambaye igitenge mu mutwe, yambaye n’umupira, akenyeye n’igitenge. Arishimye cane kandi yishimiye umusaruro we kuko ari mu murima.

Abaturage bari guseka bakaba bambaye udupfukamunwa abenshi, bakaba bafashe ibihoho birimo ibiti byo gutera.

Inyanya zirambitse hasi aho bazishyize ku ihema, inyanya zikaba zidufashaga mu gukora isosi ndetse tukaba tuzishiraga no mu biryo.

Igihaza kikiri gitoya kikaba gifite uturabyo ku ruhande, iki gihaza rero kikaba kiryohaga abasaza n'abakecuru bakaba babikundaga kuko birakomeza kandi bifite intungamubiri nyinshi.

Abantu bari kugenda mu mirima, bikoreye ibintu, igitoki n'udufuka. Barimo baragenda baritegereza uko imyaka imeze hano, kandi ikaba imeze neza.

Amapera rimwe barisatuyemo kabiri, andi aracari mazima akaba ateretse mu gitebo, akaba agiye kugurishwa. Iri basatuye ni nko kwereka abakiriya kugira ngo barebe ko bimeze neza.

Karoti zeze kandi bigaragara y'uko zeze cyane, umudamu ari guseka yishimira umusaruro yabonye muri izi karoti kandi inyuma ye hakaba hari amashamba, bigaragara y'uko ari ahantu h'igisagara.

Abahinzi bari mu murima w'ibirayi aho bari gukura ibirayi. Bakaba bari kubishira mu mifuka no muri ambaraje. Inyuma ye hari kugaragara ikirunga ciza cane.

Avoka ishobora kurishwa bitewe n'icyo ugiye kurya ,ushobora kuyisatumo ibice bitandukanye. Ukayishira ku isahani ugiye kuriraho, kugirango ibashe ku gutera apeti, ndetse ibiryo bize kuryoha bigende neza.

Igihingwa c'ibirayi ni igihingwa gikundaga kwera cane hano iwacu mu Majaruguru, aba bakaba bari kubikorera kugira ngo bizabashe kwera neza, kandi bizatange umusaruro ushimishije.

Abagore n'abagabo bari mu gishanga kiriho amazi, aho bari kwitegereza imyaka yabo uko imeze kandi bakaba bishimye, bari guseka, bameze neza.

Avoka ziri mu gitebo. Aho ziri Kandi zipfunyitse neza kugira ngo zibashwe kujyanwa ku isoko zitangiritse. Izo bakaba bazijyana hanze Kandi zikaba zimeze neza.

Umurima uhinze mo ibirayi biri kubagarwa kugirango bibashe kwera neza, bakuramo ibyonnyi ndetse n'ibindi byatsi bishobora gutuma ibirayi bitera neza.

Ibitunguru by'umutuku. I,bitunguru bikaba ari byinshi, bikaba byeraga mu ntara y'amajaruguru cane. Tukaba tubikoresha mu gukaranga ibiryo ndetse no gukora ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo ufashe umusaruro we, akaba ari voka , uyu mu gabo akaba yambaye agapfukamunwa, yambaye ishati n'agapira k'umweru mu ishati, ipantaro y'umukara akaba yishimye.

Voka z'imbangurirane zikaba zeze zimwe izindi zikaba ziteze, zikaba zifite uduheri bigaragara y'uko izi voka ziryoshe cyane kandi zimeze neza.

Inkoko zisa neza zirimo zihagaze ku byatsi byiza cane zirimo ziratoragura udusimba ndetse zinarya ibindi byo kurya zibonye nk'ibyatsi.

Karoti na pavuro biri mu isoko. Aho pavuro ziri mu dupaniye, karoti zikaba ziteretse ku mufuka zikaba zisa neza. Abakiriya bakaba barazisanga hano bakazigura.

Umukecuru ufite agasuka gatoya bitaga ifuni, afite ishapure arayambaye kandi yambaye n'umupira w'umutuku kandi akaba akenyeye n'igitenge.

Amaranda ni imbuto ziryohaga, izi zikaba zisatuye zikaba ziri kwerekana imbuto zabyo, bakaba bazikoragamo na ji, ndetse hari n'amababi yazo azirambitseho.

Pavuro ziteye imwe irahiye indi ntabwo ihiye iyo hasi niyo idahiye iyo hejuru ikaba ihiye zikaba zisa neza tukaba tuzirya mu biryo bitandukanye.

Umugore ufashe ibigori mu ntoki yabizamuye ibigori bikaba bitonoye bikaba bisa neza akaba yishimiye umusaruro ibigori byamuhaye akaba agiye kubijana mu rugo.

Amajeri ameze neza akaba ari icyatsi， akaba yareze ari menshi，bigaragara yuko yakuze neza，amajeri rero akaba ari icatsi ciza cane.

Agasorori，agasorori karimo amateke，gateretse hasi bakaba bagiye kuyahata，kugira ngo babone ibyo kurya. Amateke akaba aryohaga cane，kandi akaba yifashishwaga mu bintu byinshi bitandukanye.

Umugabo ufashe ibigori akaba ari kubiyora, akaba ari kubikura ku ntara bimwe byamenetse hasi ibindi biri mu mufuka. Akaba ari kubicuruza.

Imiteja iri mu udutebo barangije kuyisogora bakaba bagiye kuyijana mu isoko, ikaba iri mu dutebo dukozwe mu migano ndetse tuboshe neza.

Imbuto ziri mu mufuka zisa umukara zi akaba ari inzuzi bakaba baziryaga bazikaranze cyangwa se bakazitera hakazavamo izindi nzuzi.

Imifuka y'ibishimbo izinze ikaba yegeranye n'indi mifuka y'ibirayi nayo izinze, aha bategereje y'uko abaguzi baza kubigura babijane ku isoko.

Igihwagari ni imbuto zigaragara ahantu hatandukanye, hari ibihwagari ku ruhande ndetse n'imbuto zabyo ziri ku gasahane zikaba ziteretswe ku meza.

Amasaka y'ubwoko butandukanye, hari ay'umweru, ay'umutuku, ndetse n'andi afite ibara rigiye gusa n'umukara, tukaba tuyakoresha mu kwenga ikigage, ndetse n'urwagwa.

Ubunyobwa buranduye buri hasi babukushushanyije kugira ngo babashe kubutonoraho bitabagoye, ubunyobwa bukaba buryoha tukaba tuburyaga bukaranze.

Imiteja umuntu akaba ayifashe mu ntoki, akaba agiye kuzirambika ku ntara. Intara ikaba iboshe mu migano kandi ikaba ifite igiti kizengurutse.

Imbuto yo mu mufuka, umuntu yayishize ku kiganza ce, yari arimo ari kuyerekana. Ikaba ifite ibara ry'umukara. Bakaba bitegura kuba bayitera.

Ikigori cyumye. Ibigori bakaba bari kubipfundika kugira ngo babimanike, kugira ngo bizamare igihe kirekire, bazabihungure bivemo akawunga, cyangwa se babirye ari impungure.

Imbuto zameze aya akaba ari amajeri yameze bigaragara yuko yahuye n'amazi ahita amera akiri hasi amajeri akaba ari meza cane.

Izi zikaba ari imbuto zameze zikiri aho ziri. Ibi bikaba ari ibishyimbo byatangiye kugira imimere. Bigaragara yuko biri mu mazi.

Inzu yubakishije ibiti ndetse n'amabati hejuru, ifite n'umureko bigaragara y'uko ari ikigega bazaja babikamo imyaka, kugira ngo umuyaga uje ucamo neza.

Umugore n'umwana bari gusarura ubunyobwa. Umugore yiteze umutaka, ndetse n'umwana arasutamye bakaba bari gusarura ubunyobwa ku buso bunini cane.

Inka umugabo arayifasha ndetse na veterineri ari kuyitera urushinge, ziri iri mu kiraro cyubakishije ibiti kinasakaje amabati, amatungo menshi akaba aba mu biraro muri iyi ntara y'amajaruguru.

Abaveterineri cyangwa se abaganga barimo bari gusuzuma umuntu, bambaye udupfukamunwa n'imyenda yabugeneye yo kubaga. Bakaba bari muri laboratwari.

Inkoko ziri aho ziraraga, imwe ikaba ikandagiyemo hagati mu kibobori ziriraragamo. Izindi eshatu zikaba zihagaze zikaba ziri kurya. Izi nkoko zikaba ziteraga amagi meza cane.

Inkoko ziri mu rugo, aho zibasha gufata ibyokurya ndetse n'amazi yo kunywa, zigahabwa n'imiti kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, zose zirikumwe kugira ngo zibashe kubona ibizitunga.

Inkoko eshatu ebyiri zisa n'indi idasa n'izindi zikaba zihagaze ku byatsi aho ziraraga ndaba zimeze neza.

Inyama ziri mu nzu ziramanitse， bazibaze. Iri bagiro rikaba ari rya kijambere， kandi inyama ntizipfaga kwandura， zibaga zifite umwimerere wazo zisa neza.

Inka z'inzungu ziziritse ahantu hari ibyatsi ziri kurisha hari na ba nyirazo bahagaze impande zabo bafashe ku biti bazireba.

Inka zifite amahembe zikaba ziri mu kiraro. Izi nka zikaba zitegereje ko bazizanira ubwatsi， zikaba zitonze， kandi zikaba zigaragara nk'aho nta mahane zigiraga.

Vetereneri ari gutera inka urushinge, akaba ari kuyiterira ku gutwi inka bakaba bayifashe kandi ikaba iri mu kiraro, ico kiraro ntigisakaye.

Umugore uri guseka, akaba afashe agahene mu maboko, akaba ari ku nzu zituzuye kandi z'ibyatsi. Ibi bikaba bigaragaza yuko hano ari mu cyaro.

Inka bari kuyitera umuti iri mu kiraro, isa neza kandi umu Veterineri uri kuyitera umuti arishima, ikiraro cayo gikozwe mu biti.

Inyoni nziza cane inyoni, inyoni ikaba ifite amaguru maremare n'akanwa gasongosongoye n'amaso y'umukara. Inyoni kandi ikaba ifitemo n' ibara ry'umuhondo.

Inyoni nziza cane ikaba ihagaze ku duti. Inyoni ikaba ifite amajanja akaba yafumbatiye utu duti, kugira itagaca ikaba ifite n'umurizo muremure.

Inkende iri mu ishamba ikaba iri mu rusasa, ikaba isa neza ikaba ifite n'ibyoya bisa neza, abakerarugendo bakaba bajaga kuzisura bagatanga amadovize.

Inyoni zisa zikaba zibundamye zifite amajosi maremare, kandi zikaba zimwe zirimo umweru n'umukara, zikaba zibundamye mu byatsi.

Inyoni ibiri ziri hasi ku isima, izi nyoni zikaba zitwa ibishwi, ukaba zikundaga amasaka ndetse n'ibindi byinshi byatakaye, akaba zikundaga kona imyaka cane.

Agasimba kameze nk'urukwavu rufite amatwi maremare， gafite ubwanwa ku munwa burebure， gafite amaso kandi aka gasimba kakaba kabundamye.

Ari ku byatsi kakaba gasa neza ka kanyoni kakaba kitwa igishwi kari kurasirwaho n'izuba kandi kameze neza kuko kizeye umutekano waho kari.

Ingagi mu kirunga. iyi ngagi ikaba yakomeretse mu mutwe kandi iyi ngagi ifite ibyatsi mu kanwa ikaba iri kubirya.

Akarabo keza cane kariho inyoni nziza cane, ifite umunwa muremure, ifite n’amaso. Iyi nyoni ikaba iri gukura ibyo kurya muri iki catsi ciza cane gifite uturabo.

Inyamaswa isa neza, iyi nyamaswa ikaba ari mu bintu dusanga hano mu Rwanda kandi byiza cane. Inyamaswa rero ikaba isa neza cyane.

Ingagi ibiri ziri mu kirunga zifite ibara ry'umukara aho ziri kugenda abakerarugendo barazaga bakaduha amadovize zikaba ziri mu byatsi nyuma yaho hakaba hari imigano.